Inyamaswa y'inyoni y'ikiyongoyongo, iri gushakaka nayo ibigitunga mu gishanga, iri gushaka utunyamaswa kugira ngo na cyo kigire ubuzima bwiza, kibashe kubona ibigitunga mu mubiri wa cyo.